Hari abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bari kujya babwirwa imbwirwaruhame. Urabona ko hari n'umupolisi ubahagaze imbere, ufite indangururamajwi. Ari kubabwira ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda w'ibinyabiziga. Hirya y'aho hari icyapa cyanditseho gerayo amahoro. Bigaragara ko ari ibijyanye n'umuhanda.

Igishushanyo cy'umukobwa ufite inkoni mu ntoki ndetse ufite n'inkangara ku rutugu, akaba ashushanyijeho ikindi gikoresho gisa nkaho ari inkoni, hakaba hari umugabo inyuma ye usa naho ariwe wamushushanyije.

Amasaka yeze asa neza cyane rwose, n'ibigori bigaragara ko byeze neza, bifite ibara ry'icyatsi. Kandi urabona ko n'ikirere gisa neza cyane rwose, uretse ko hari n'andi masaka agaragara nkaho ateze. Amwe yeze neza andi ntiyigeze yera neza.

Ibikoresho bya gakondo harimo nk'udutebe, umuvure munini ndetse mwiza cyane, ndetse n'ikindi giti gikoranye n'umuvure bajya bakoresha mu muvure nk'igihe barimo barashigisha ubushera cyangwa se ibigage, ndetse nako bifite ibara ryiza cyane.

Ibikoresho byo hambere harimo: igisabo, inkongoro, ingoma, inkangara, ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshwaga hambere. Ariko kuri ubu ntibigikunze kuboneka cyane.

Bari kubumba inkono zigiye zirutanwa mu bunini ndetse no mu bugari, urabona ko hari umubyeyi wicaye arimo arabumba inkono, ndetse hari n'undi uteruye umwana. Urabona ko aha hantu naho bakorera inkono zo gutekeramo, nko mu gihe cyo hambere mu muco nyarwanda batekeraga mu nkono.

Ikibo ndetse n'amasahani ateretse imbere yacyo agaragara nkaho harimo ibyo kurya cyangwa se ibishyimbo. Iki kibo kikaba kiboshye neza n'amabara y'umukara n'umweru, urabona ko ari ikibo cyiza cyane.

ikibindi cy'ubushera cyangwa se ikigage, mu muco wa kera bajyaga bashigisha ubushera cyangwa se ikigage bagashiramo imiheha, harimo imiheha itatu ndetse urabona ko ubu bushera burasa nku buryoshye cyane, kuko bwabize nk'ubuhiye kandi burasa neza cyane.

Uduseke twinshi tugiye dufite amabara atandukanye, bigaragarako ni ahantu haboherwa ubuseke cyangwa se ibikoresho byo hambere. Ibi kandi bikaba bigaragaza umuco nyarwanda wo kuboha ibiseke , ibyibo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa mu guteka ibintu bigiye bitandukanye, mu ndimi z'amahanga zitwa gaze, zikaba zizwiho kwihutisha ibyo guteka, iyo ubishyizeho mu minota mikeya ubona bihiye, kikaba gikoresha gaze, kandi kikaba ari igikoresho cyiza kigira isuku cyane.

Urusengero rusengerwamo n'abantu bagiye batandukanye, haruguru yarwo ndabona hari inzu y'ubucuruzi, ifunguye umuryango usa n'ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'umuntu urimo amanuka, asa nk'aho agiye kwinjira mu rusengero.

Inzu ya leta, ishobora kuba ari inzu ikorerwamo n'abayobozi bagiye batandukanye, bo mu nzego z'igihugu zikorera leta. Hakaba hari amarembo manini ahagazeho umugabo, utajya wemerera abantu guhaca uko biboneye.

Puberi abantu bajugunyamo imyanda, ndetse hakaba hari n'igare umukobwa yicayeho yifashe inyuma. Iriya nzu igaragara nk'ikorerwamo ubucuruzi, ndetse imbere yaho hicaye umugabo wicaye imbere y'igiti cyiza, kandi kirekire.

Inzu ndende kandi ifite umusaraba hejuru yayo. Ikaba ari inzu igaragara nkaho basengeramo, ikaba ari inzu nziza cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umubyeyi yicaranye n'umwana we baratetse ariko ahantu bari urabona ko ari heza ahantu hafite isuku ndetse hasa neza cyane umubyeyi akaba ari kuganiriza umwana we bicaye nko mu gikoni batetse.

Ahantu hasa neza cyane ubona ko hakunda kuza ba mukerarugendo, urabona ko haparitse n'imodoka, harisa umutuku, isa umweru ndetse ukabona ko hari n'abantu barimo baragendagenda, iruhande rwaho ndetse hari n'abandi bantu b'abazungu barimo baragenda batembera.

Inama iyobowe n'umugabo ufite indangururamajwi, ubona ko harimo abantu benshi, ariko abenshi biganjemo ni igitsina gore, ariko n'abagabo barimo, uranonako abagore benshi, nibo bicaye hasi, bigaragara ko bari kubwirwa imbwirwa ruhame.

Umugore ufite indangururamajwi bigaragara ko ari mu mbwirwaruhame, igizwe n'abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore, kandi bakaba bari kuyikorera mu nzu isa neza rwose, ifite n'amarido meza agiye afite amabara atandukanye.

Abantu bicaye basa naho bari gufata amasomo, harimo abagore, ndetse n'abagabo, bakaba bicaye umwe afite ikaye n'ikaramu, undi musaza nawe afite ikaramu, basa naho bari kumva ikiganiro gishimishije, kuko urabona ko barimo baranaseka.

Imashini zikora imihanda ziri gusenya umuhanda, kugira ngo hongere hakorwe undi ,bigaragara ko wari ushaje, ndetse hakaba hari n'abandi bagabo bafite ibikoresho bahagaze inyuma ya ya mashini ,hakaba hari n'imodoka irimo umugabo usa naho ari kuganira n'abantu bari hanze bafite ibikoresho.

Muri gare aho abantu bafatira imodoka zigiye zitandukanye zijya ahantu hatandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Izi ni modoka nini zikoreshwa, akenshi zikoreshwa mu mijyi igiye itandukanye zijya mu makaritsiye agiye atandukanye.

Imodoka nini cyane imbere yaho hakaba hahagaze umugore usa nkaho ari guhamagara abantu ngo baze binjire mur iyo modoka. Imwe imbere harimo umushoferi uyitwaye ubonako ino modoka isa neza cyane.

Muri gare aho bafatira imodoka, zijya mu bice bigiye bitandukanye by'imijyi, hari abantu barimo baragenda, basa n'abagana mu modoka, ariko hari n'abandi barimo barigendera muri gahunda zabo.

Umukobwa utwaye ikinyabiziga cyangwa se ikinyamitende gikoresha esansi cyangwa se icyo bita moto akaba ahetse n'abandi bantu. Umuhungu umwe ndetse n'undi mwana w'umuhungu akaba ari umukobwa uzi gutwara ikinyabiziga.

Ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, ariko by'umwihariko abamotari bahetse abagenzi ndetse urabona ko harimo n'imodoka, uno muhanda urabona ko ari rusange ndetse hakaba hari n'icyapa, cyanditseho mirongo itandatu bivuze ko hari umuvuduko ntarengwa, w'aha hantu ari mirongo itandatu.

Umugabo arimo arasa naho ari gusinya, ariko urabona ko hari n'ikipe yari irimo irakina, bisa nkaho batsinze, kuko ndabona mu kibuga abandi bishimye, hano hari n'umugabo uri gusinya, hari n'undi wicaye imbere ye, bigaragara ko nawe ari kumusinyisha.

Ikipe yo mu Karere ka Gisagara ikinwamo n'abantu bafite ubumuga, bakina bicaye urabona ko imbere yaho hari abafana baje ku bafana ndetse ukabona ko, bafite n'umuhate wo gukina kuko bose urabona ko, bashaka gukora ku mupira barimo barakoresha bakina, hakaba harimo nimero zitandukanye.

Mu kibuga aho bari gukina, ubonako hari kugaragara abantu babiri nabo bari gukina kina, umwe yambaye umupira w'umutuku undi umupira w'icyatsi ndetse banambaye amakabutura ubona ko bari gukina baro iri hejuru mu kirere bose bategereje ko imanuka ngo bayikubite.

Umukobwa ufite balo mu ntoki bigaragara ko arimo arakina, yambaye jyezi yanditseho nimero kane, inyuma ye hakaba hari umuhungu bigaragara ko ari ikibuga bari gukiniramo kuko hari n' abafana bicaye hariya hejuru mu ntebe, umukobwa akaba ari umukobwa ubyibushye ndetse w' igikara.